Ishishikariza abantu kuyishinganisha, gusaba ubwishingizi muri Sonarwa ndetse bakakwishyura mu gihe wahuye n'ibibazo cyangwa se bakishyura ibyawe byangiritse.

Abagabo babiri, umuguzi n'umugurisha w'imodoka bahagaze imbere y'itagisi nini cyane ndetse berekana urufunguzo rutwara iyi modoka.

Umusore watsindiye imodoka yashyikirijwe sheke ikozwe mu buryo bw'urufunguzo ndetse ni igihe cyo kuyihabwa hamwe n'abandi bantu b'aba enjenyeri.

Abagabo babiri, bahagaze bafite icyapa kigaragaza imodoka zikorerwa mu Kagera, mu ruganda rw'Akagera, rukora imodoka zigiye zitandukanye.

Inoti zigizwe n'amafaranga y'amanyakenya, amadolari y'Amerika arimo kuvunjishwa no kuguranwa bitewe n'agaciro aya. amfaranga afite.

Aho amata agurishirizwa, aho bakirira abakiriya bakeneye kugura amata y'Inyange ndetse n'ibindi bintu, ibintu byose bituruka cyangwa se byavuye ku mata.

Inzu igaragaza uburyo bwo kwishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga utiriwe urushywa no kugendana amafaranga mu ntoki, ni ugutwara amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Serivisi ijyanye no kuvunjisha amafaranga, aho utanga amafaranga y'amanyarwanda bakaguha amadorari cyangwa se mu y'andi mafaranga ushaka.

Aho amafaranga ashobora kugurishwa, ushobora gutanga amafaranga y'amashiringi yo muri Tanzaniya baka guhereza amanyakenya, ukagurisha amafaranga y'amayero ndetse n'amadorari y'amanyamerika.

Igorofa rigeretse inshuro eshatu ndetse ririho ibyapa byamamaza mu kwizigamira ukoresheje banki ya Kigali ndetse n'ibindi byapa bigaragaza aho bokerereza inkoko.

Aho bakirira serivise zigiye zitandukanye, ku muntu wese uje ubagana ndetse ni mu cyumba bakiriramo abantu bagiye batandukanye, ingeri zose.

Inyubako ya Kopedu iherereye Kimironko ari naho ishami ryayo riherereye, aha ngaha bakira abakiriya bagiye batandukanye baza barigana.

Umukobwa wamamariza banki y'abaturage mu cyumweru cyo kuzanira abantu umukino ndetse ni muryo bwo kwamamaza ibikorwa bigiye bitandukanye.

Umumotari urimo gushishikarizwa kwishyura amafaranga akoresheje mobayiro mani, mu buryo bw'itumanaho akoreshejwe telefone igendanwa, akabika amafaranga yawe kuri simukadi.

Inzu i Kanombe iri kugurishwa ni inzu ihagaze agaciro ka miliyoni ijana na mirongo itanu, irimo ibitanda bitanu ndetse n'ubwiherero bune, igizwe na metero ku buso bwa magana ane na mirongo itanu.

Ikarita y'ubwishingizi yakuwe mu kigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize RSSB, ishishikariza abantu gutanga mituweri ku gihe n'ubwisungane mu kwivuza.

Abaturage baje kwaka serivisi mu ngeri zigiye zitandukanye, abasaza, abagore ndetse n'abagabo baje bitabiriye.

Umukobwa wambaye ishati y'umweru, ufite imisatsi miremire, urimo kureba ibintu bigiye bitandukanye, muri terefone igendanwa ndetse za zindi zigezweho muri iki gihe.

Abayobozi b'ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda Arasiyesibi gifasha abantu gutanga ubwisungane mu kwivuza n'izindi serivisi zijyanye n'ubwishingizi.